Ubutabazi bw'ibanze mu buvuzi, ni ingirakamaro cyane igihe umuntu aje kwa muganga arembye cyane, ni ngombwa y'uko bamwitaho, bityo bikaba byamurinda kuba yakomeza kuremba cyane cyangwa akahasiga ubuzima.

Imbangukiragutabara igira umumaro munini cyane mu buvuzi, aho ifasha abarwayi kuba bagera kwa muganga vuba cyane cyane iyo barembye. Ibyo ngibyo bikadufasha kuba twirinda impfu za hato na hato.

Ubutabazi bw'ibanze mu buvuzi ni ingirakamaro cyane. Aho iyo umuntu agannye ibitaro arembye cyane, agomba guhita afashwa mu maguru mashya kugira ngo ataremba cyane cyangwa se akaba yatakaza ubuzima.

Ubutabazi bw'ibanze mu buvuzi bugira umumaro munini cyane, cyane cyane iyo haje umurwayi urembye cyane, ni ngombwa yuko ahita afashwa byihuse kugira ngo ataba yaremba cyane cyangwa se akaba yahasiga n'ubuzima.

Ibitaro bigira umumaro munini cyane ku buzima bwa muntu, aho abarwayi bagana ibitaro bakabasuzuma bakamenya uburwayi barwaye ndetse bakabafasha bagahabwa imiti. Si n'ibyo gusa kuko bashobora no kuba bahabwa ubujyanama bw'uburyo bakwirindamo uburwayi.

Abaganga baba bagomba guhabwa imyambaro yabugenewe bagomba gukoresha igihe bari mu kazi ndetse kandi baba bagomba no guhabwa ibikoresho byinshi bitandukanye bishobora kubafasha kwirinda kuba bakwandura indwara ziturutse mu barwayi.

Ibitaro ni ingenzi cyane kubera yuko iyo umuntu arwaye akabigana, ashobora kuba yahabwa imiti bityo bigatuma akira uburwayi. Ikindi kandi abaganga bashobora kuba bamuhereza ubujyanama butandukanye bitewe n'ikibazo afite bityo bigatuma arushaho kuba yakwirinda indwara ndetse no kuba yagira ubuzima bwiza.

Ibitaro bigira umumaro munini cyane mu gutuma abaturage bagira ubuzima bwiza, aho umuntu ashobora kuba atameze neza akagana ibitaro, akaba yasuzumwa yabonwamo indwara agahabwa imiti cyangwa se akaba yahabwa n'ubujyanama bwo kuba yarushaho kugira ubuzima bwiza.

Ubuvuzi bugira umumaro ku buzima bwa muntu, aho umuntu wese ushobora kuba afite ikibazo cy'ubuzima ashobora kuba yagana ibitaro bakamufasha kumuhereza inama cyangwa se bakamusuzuma bakamuhereza imiti ishobora gutuma agarura ubuzima buzima .

Mu bitaro, buri murwayi ahabwa igitanda, aho agomba kuryama mu gihe ari gukurikiranwa, aho aba aryamye, ni ho abaganga bamusanga, bagakomeza kumuha imiti no kumukurikirana kugira ngo barebe ko yamera neza, bityo akaba yasubira mu buzima busanzwe.

Abaganga ni ingenzi cyane ku buzima bwa muntu cyane cyane iyo, ibyo bakora babihuguriwe bakaba babizi neza. Birafasha cyane kuko bafasha abarwayi kuba basubirana ubuzima buzima cyangwa se bakagira inama abantu y'uburyo bakwirinda uburwayi bitandukanye butyo ugasanga abantu bahorana ubuzima buzima.

Abaganga baba bagomba kwitabwaho cyane mu kazi kabo, ni yo mpamvu baba bagomba guhabwa ibikoresho bitandukanye bagomba gukoresha igihe bari kuvura hagamijwe kugira ngo babe bakwirinda kwandura indwara zitandukanye zishobora guturuka mu barwayi barimo kuvurwa.

Kwita ku barwayi ni inshingano za muganga, aho muganga aba agomba gusuzuma umurwayi, akamenya uko ahagaze, akamenya n'aho ubuzima bwe bugeze bityo akaba yamenya neza uburyo aramufashamo ndetse n'imiti yamuha bitewe nuko ahagaze.

Ibitaro bidufatiye runini, kubera y kugeza n'uyu munsi nta muntu ukirembera mu rugo, iyo umuntu agifatwa n'uburwayi, ashobora kuba yagana ibitaro bimwegereye, agahabwa imiti ndetse yaba arembye akaba yahabwa aho kuryama akitabwaho kugeza abaye muzima.

Gusuzuma no kuganiriza umurwayi igihe ageze ku bitaro, ni ingenzi cyane kubera yuko bifasha muganga kumenya neza uburwayi umuntu afite ndetse akanamenya neza n'uburyo yamukurikiranamo, bityo akongera akagira ubuzima buzima.

Gukaraba mu ntoki n'amazi meza n'isabune ndetse no kwambara udupfukamunwa neza, gushyiramo intera hagati yacu, byagize uruhare mu kudufasha kurwanya icyorezo cya coronavisi, cyari cyarageze mu Rwanda mu myaka yahashize.

Ubwishingizi bwo kwivuza bw'abanyeshuri bo muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ni ingenzi cyane kubera y'uko bibafasha kugira ubuzima bwiza ndetse igihe barwaye bakaba bavurirwa ku gihe bidasabye y'uko baba bajya ahantu ha kure bakavurirwa mu bigo by'amashuri cyangwa se ku bitaro bibegereye.

AAbaganga n'abavuzi, baba bagomba guhura ubwabo bakaganira, bakareba neza uko barimo bakora akazi kabo neza ndetse n'uburyo bagomba kwita ku barwayi.

Ibitaro n'amavuriro ni ingenzi ku buzima bwa muntu kubera yuko bidufasha kuba twagira ubuzima bwiza, badusuzuma, baduhereza imiti ndetse bakaba baduhereza n'ubujyanama bihuye n'ikibazo dufite.

Ibitaro ni ingenzi mu buzima bwa muntu, aho abantu batandukanye bafite uburwayi butandukanye, bashobora gufashwa n'abaganga batandukanye, bityo bakaba bagira ubuzima bwiza, cyangwa se bakaba bafashwa bitewe n'ikibazo bafite.

Kugira ngo ibitaro bibe bimeze neza byujuje ubuziranenge bisaba ibikoresho bitandukanye aho usanga harimo nk'ibitanda abarwayi baryamaho ndetse n'intebe zitandukanye ariko kandi hakaba harimo na kandagira ukarabe zituma abantu barushaho kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Ibitaro ni ingenzi cyane kubera yuko tujya tubigana kugira ngo duhabwe ubujyanama bw'uburyo twagiramo ubuzima bwiza kandi ikindi tubigana igihe turwaye, bakaba baduhereza imiti bityo tukarushaho kugira ubuzima bwiza cyangwa bakaduhereza n'ubujyanama.

Ibitaro ni ingenzi cyane kubera y'uko bifasha abarwayi kugaruka mu buzima busanzwe. Iyo umuntu agiyeyo arembye arakurikiranwa, agahabwa imiti, agahabwa ubujyanama bityo akavayo yuzuye, ameze neza yishimye akarushaho gukomeza imirimo ye no gutera imbere.

Ubuzima bw'abana buba bugomba kwitabwaho aho umwana aba agomba kugenzurwa bakamenya niba yavutse nta kibazo na kimwe afite ikindi kandi mama wiwe aba agomba guhabwa ubujyanama bw'uburyo uwo mwana yafatwamo haba mu buryo bw'imirire ategurirwa indyo yuzuye ndetse n'uburyo agomba koswamo kugira ngo arusheho kumera neza.

Irerero ni ingenzi ahantu hose mu gihugu icyo ari cyo cyose. Kubera yuko irerero ridufasha kurwanya imirire mibi, hagati y'abana, ndetse no kwigisha ababyeyi uburyo bwiza bwo gutunganya indyo yuzuye. Bityo bigatuma indwara ziterwa n'imirire mibi, zigabanuka hagati mu bana.

Kuganiriza umubyeyi uburyo yakwita ku mwana we ni ingenzi cyane, aho usanga abaganga baganiriza ababyeyi uburyo ki umwana agomba gukurikiranwa, uburyo agomba kubona indyo yuzuye, uburyo agomba gukingizwa ndetse n'uburyo agomba kurindwamo indwara zitandukanye.

Ubuvuzi bw'abana ndetse no kubitaho ni ingenzi cyane. Niyo mpamvu umwana aba agomba kwitabwaho na muganga ndetse n'umubyeyi we, igihe uwo mwana afite ikibazo, agahabwa imiti ndetse umubyeyi we agahabwa n'ubujyanama bw'uburyo yarushaho kumwitaho kugira ngo abeho neza.

Ubuzima bw'abana bugomba kwitabwaho cyane bareba neza niba ari bazima nta kibazo bafite ndetse n'ababyeyi babo bakagirwa inama z'uburyo bagomba kwita ku bana babo babaha indyo yuzuye cyangwa se n'uburyo bagomba koswamo kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Kwita ku bana bigomba gushyirwamo imbaraga cyane hagamijwe kubarinda indwara zishobora kuba zaterwa n'imirire mibi ndetse bakaba bagaburirwa n'indyo yuzuye bityo bagakura neza nta kibazo bafite.

Amarerero adufitiye umumaro munini cyane, aho ababyeyi bahurira bakaganirizwa ibigendanye no gutegura indyo yuzuye ndetse n'uburyo bakwita ku bana babo kugira ngo barusheho gukura bameze neza badahuye n'uburwayi buterwa n'imirire mibi.

Amarerero agira umumaro munini mu kurinda abana igwingira ndetse n'indwara ziterwa n'imirire mibi. Aho ababyeyi bigishwa uburyo bateguramo indyo yuzuye ndetse n'uburyo barindamo abana indwara zitandukanye.

Amarerero agira umumaro munini cyane mu gutuma abana bamera neza bakanakurana umurava aho usanga muri ayo marererero ababyeyi biga gutegura indyo yuzuye bityo bikaba byatuma abana babaho bazira uburwayi.

Amarerero ni ingenzi cyane kubera y'uko adufasha kurwanya imirire mibi mu bana b'inshuke ndetse bakaba banakwigisha ababyeyi babo uburyo bategura indyo yuzuye bityo abana bakabaho mu buzima buzira uburwayi.

Kwita ku mwana ni inshingano z'umubyeyi, ni yo mpamvu ababyeyi baba bagomba kwigishwa neza uburyo umwana akwiriye kurerwa kuva avutse ndetse n'uburyo agomba guhabwa indyo yuzuye, akabaho azira uburwayi akarushaho gukura neza.

Amarerero ni ingenzi cyane kubera yuko adufasha mu kuba twarinda abana bacu imirire mibi ndetse n'indwara zishobora kuba zaterwa n'iyo mirire. Ni ngombwa rero yuko ababyeyi bagomba kwicazwa bakigishwa kandi bakaganirizwa uburyo bategura indyo yuzuye.

Kwita ku buzima bwo mu mutwe ni ingenzi cyane, aho usanga abantu benshi barahuye n'ibibazo byinshi ndetse n'ibibakomeretsa byinshi bituma ubuzima bwabo bwo mu mutwe butamera neza, ni ngombwa yuko baganirizwa kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza ndetse n'abadafite ibyo bibazo byo mu mutwe bakarushaho kubwirwa neza uburyo babyirinda.

Ubukangurambaga ku bigendanye n'ubuzima ni ingenzi cyane kubera yuko bifasha imbaga nyamwinshi gusobanukirwa neza indwara ishobora kuba ihari muri iyo minsi, uburyo yakwirindwa ndetse n'ingaruka zayo

Ubukangurambaga ku bigendanye n'ubuzima ni ingenzi cyane ariko akenshi bikunda gukorwa igihe hari nk'indwara yadutse aho leta ishobora gushyira imbaraga mu gusobanura neza abaturage ibigendanye n'iyo ndwara ibiyitera n'uburyo bayirindamo kugira ngo birinde urupfu ahubwo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Ubukangurambaga mu bijyendanye n'ubuvuzi, ndetse no kwirinda indwara, ni ingenzi cyane. Kubera yuko bituma abaturage muri rusange basobanukirwa neza, indwara zihari n'uburyo zakwirindwamo, ndetse bakaba bahabwa n'ibikoresho bakanasobanukirwa neza uburyo imiti ikoreshwa.

Ubukangurambaga ku bigendanye no kwirinda Virusi itera SIDA ni ingenzi cyane, niyo mpamvu Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu gushishikariza urubyiruko kwirinda virusi itera sida, babasobanurira neza ikiyitera ndetse n'uburyo yakwirindwamo.

Ubukangurambaga ku bigendanye no kurwanya no kwirinda Malariya ni ingenzi cyane. Ni yo mpamvu Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu kwigisha abantu ibintu bishobora gutera Malariya ndetse no kubigisha uburyo Malariya yakwirindwamo ndetse n'uburyo uwayirwaye yakwivuzamo.

Ubukangurambaga ku bigendanye n'ubuzima n'ingenzi kubera yuko bifasha abaturage gusobanukirwa neza indwara bashobora kwirinda, uburyo bayirindamo ndetse n'ikiyitera, bityo bakarushaho kubaho mu buzima buzira kurwara.

Ubukangurambaga mu bigendanye no kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina ni ingenzi cyane, ni yo mpamvu Leta yashyize imbaraga mu gukangurira abantu gukoresha agakingirizo, babigisha uburyo bagakoresha igihe kwifata byabananiye kugira ngo birinde kwandura izo ndwara.

Ubukangurambaga mu bigendanye n'ubuvuzi ni ingenzi cyane. Aho usanga abantu benshi bashobora gufata ikemezo cyo kwivuza igihe bamenye yuko bafite uburwayi kandi bakaba bafata n'ikemezo cyo kwirinda indwara itaraba, bagasobanukirwa n'iyo ari yo mu maguru mashya itari yagera mu bantu benshi.

Ubukangurambaga ku bigendanye n'ubuvuzi, ni ingenzi cyane ku buzima bwa muntu. Aho abaganga cyangwa se ubuyobozi baba bagomba kugira uruhare mu gusobanurira neza abaturage ibigendanye n'indwara zitandukanye n'uburyo izo ndwara zarindwamo abantu.

Imiti gakondo akenshi ikoze mu byatsi igira uruhare runini cyane mu kuba yatuvura indwara z'uruhu aho nk'umuntu ufite uburwayi bw'uruhu ashobora kuba yayikoresha agakira burundu bitamusabye kuba yagiye ku bitaro.

Imiti gakondo ni ingenzi cyane ku buzima bwa muntu. Ni yo mpamvu usanga abantu benshi bayikoresha bivura nk'indwara harimo iz'uruhu, inzoka ndetse n'igifu bityo bakagira ubuzima bwiza bitabasabye kurya imiti ya kizungu.

Imiti gakondo ni ingenzi cyane, ni yo mpamvu usanga Abanyarwanda bamwe na bamwe, bahitamo kuyicuruza, abandi na bo bakayigura, kubera yuko baba bizeye yuko bari bubashe gukira, bidasabye yuko barya imiti ya kizungu.

Imiti gakondo igira umumaro mwinshi utandukanye. Aho usanga bayikoresha bomora ibikomere, ndetse imwe n'imwe ivura amibe, ndetse n'izindi ndwara zitandukanye. Bityo rero n'imiti gakondo nayo igira uruhare mu gukiza indwara, atari uko hakoreshejwe imiti ya kizungu gusa, cyangwa se yavanywe kwa muganga.

Ibitaro biradufasha cyane kubera yuko iyo umuntu arwaye ashobora kuba yagana ibitaro bakamufasha kuba bamusuzuma bakamenya uburwayi afite bakamuhereza imiti, ikindi kandi ashobora no kuba yahabwa ubujyanama bwo kuba yakwirinda indwara zitandukanye.

Ibigo nderabuzima bidufitiye umumaro munini cyane, kubera yuko dushobora kuba twabigana igihe tutameze neza cyangwa se turwaye, bityo tukaba twavurwa cyangwa tugahabwa ubujyanama buhuye n'ikibazo dufite.

Amavuriro n'ibitaro bigira umumaro munini cyane ku buzima bwa muntu, aho umurwayi ashobora kuganayo hanyuma bakamusuzuma basanga afite uburwayi bakamukurikirana kugeza ubwo abaye muzima. Ikindi kandi ashobora no kuba yahabwa ubujyanama bw'uburyo yarushaho kumera neza mu rugo.

Amavuriro adufasha kugira ubuzima bwiza aho dushobora kuyagana igihe turi kumva tutameze neza, tukaba twasuzumwa tugahabwa imiti, cyangwa se tukaba twahabwa ubujyanama bw'uburyo twakwirindamo indwara.

Kubaka ibitaro no kubiteza imbere ni ingenzi cyane. Niyo mpamvu bigomba gushyirwamo imbaraga na Leta kubera yuko abarwayi bashobora kugana ibyo bitaro bakaba bahabonera ubuzima buzima. Bakongera bagasubira mu buzima busanzwe bagahabwa n'imiti ishobora kubafasha igihe bari mu rugo.

Ikiganiro hagati ya muganga ndetse n'umurwayi ni ingenzi cyane kuko bituma muganga, amenya neza uburwayi umurwayi afite bityo akaba yamufasha kandi akamuhereza imiti yizewe, ashobora kuba yakoresha akongera akabona ubuzima.

Ibigo nderabuzima ni ingirakamaro cyane, kubera yuko bidufasha kugira ubuzima bwiza, igihe umuntu ahuye n'ikibazo cy'uburwayi cyangwa se akumva atameze neza, ashobora kwihutira ku kigo nderabuzima bakaba bamenya uko ahagaze, bityo bakamukurikirana agahabwa imiti cyangwa agahabwa ubujyanama.

Ubuvuzi bw'abana bugomba guhabwa imbaraga niyo mpamvu igihe umwana arwaye umubyeyi we aba agomba kumujyana ku ivuriro cyangwa se ku bitaro umwana agasuzumwa bakamenya uburwayi afite akaba yavurirwa ku gihe agakira n'ababyeyi be bagahabwa ubujyanama bw'uburyo baramukurikiranamo.

Imbagukiragutabara ni ingenzi cyane mu buvuzi. Aho usanga zidufasha kuba twagera ku bitaro vuba, cyane cyane igihe umuntu arembye, bityo akaba yakurikiranwa vuba vuba adatakaje ubuzima.

Ku bitaro haba hagomba gushyirwa kandagira ukarabe. Aho buri muntu wese uje ku bitaro, aba agomba gukaraba neza intoki yifashishije isabune, kugira ngo turusheho kuba twakwirinda indwara ziterwa n'imumwanda.

Amavuriro ni ingenzi cyane. kubera yuko byorohera abaturage barwaye, kuba bagerayo vuba, ndetse bakaba bakwisuzumisha bakamenya uburwayi barwaye, bityo bakaba bafashwa, ariko kandi byaba bikomeye cyane, bakaba bakoherezwa ku bitaro bikuru.